Kugira ngo hirindwe ko imyaka ikomeza kuribwa n'udukoko tuyangiza buri Muturarwanda wese w'umuhinzi arashishikarizwa gukoresha imiti itangwa n'abajyanama b'umuhinzi muri buri Kagari kugira ngo hirindwe ibyonnyi byangiza imyaka.

Kwihaza ni umushinga abaturage bakomeje gukora mu rwego kugira ngo amafi bahinga mu byuzi byabo akomeze akure cyane, ibi babiterwa n'uko mu kiyaga cya Kivu babakumiriye bagahita bafata umwanzuro wo kwikorera ibyuzi.

Abahinzi bibumbiye mu makoperative, hanyuma begera banke kugira ngo ibafashe, mu bikorwa byabo byo kwiteza imbere kuko bahinga umuceri mu gishanga, cyakundaga kwibasirwa n'ibyorezo ndetse n'imyuzure.

Umugore witabiriye ibikorwa byo guhinga indabo, biragaragara ko bimaze kumuteza imbere kubera ko kuva yabitangira, ba mukerarugendo bakomeza kuza bamubaza igiciro agurisha kugira ngo nibagaruka mu Rwanda bazamuzanire abakiriya.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bw'ikirere yambaye n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'urugara. Anambaye kandi agapfukamunwa gasa n'ikigina, afite ipombo y'amazi ari kuhira imyaka ye bigaragara ko ari inyanya zahinzwe mu zuba.

Imishwi yororewe mu kibuti kimwe biragaragara ko imaze gukura cyane kandi itaramara n'amezi abiri, ibi biterwa n'uko ivuka iturazwe n'imashini hanyuma ikagaburirwa ibiryo bya kizungu bizifasha gukura neza.

Ishyamba rya Nyungwe ni rimwe mu bibamo ibinyabuzima byinshi, kubera ko habamo inyoni zifite imisatsi imeze nk'iya kagoma, kandi zikaba zisa n'umukara n'umweru. Ikindi kandi habamo ibyondi n'impala.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa ziteye ubwoba cyane ariko bakavuga ko na yo itinya intare kubera ko icungana n'aho intare yiciye inyamaswa ikajya kurya ibyo yasigaje, ibi biterwa n'uko intare yo idashobora kurya inyama z'imiranzi.

Intare iryamye bafotoye iri imbere y'ibyatsi bibisi cyane byiganjemo indabo zigira ururabo rusa n'umutuku ndetse n'umuhondo, ibi byose ni ibyiza nyaburanga.

Ibisimba byinshi cyane bigaragara ko byiganjemo imbwa, imihari, impyisi ndetse n'intare, byashyizwe mu ifoto isa n'aho yafatiwe muri parike y'igihugu y'akagera kugira ngo yifashishwe mu gukurura ba mukerarugendo.